Hifashishijwe imashini igendanwa nama telefone abanyeshuri batatu bambaye ubupfukamunwa barimo umukobwa umwe n'abahungu babiri barimo barakora ubushakashatsi bifashishije murandasi.

Ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro cy'u Rwanda rwanda reveni otoriti, kiragushyiriraho urubuga wamenyekanishirizaho ibyangombwa bigendanye n'ubucuruzi ndetse ukaba wanahamenyekanishiriza umusoro w'ubukode mbere y'itariki ya mirongo itatu na rimwe mutarama umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu.

Ku marembo y'ikigo gishinzwe guha serivise abinjira n'abasohoka mu gihugu, hashinze icyapa gifite umuzenguruko utukura kibuza abatwara ibinyamitende guhagarara aho ngaho.

Icyapa gifite umuzenguruko wampande eshatu ubuso bwacyo bukaba busa umukara cyiraburira abayobozi b'ibinyabiziga yuko imbere hari ubwambukiro bw'abanyamaguru.

Amasangano y'imihanda ahashinze ibimenyetso bimurika bizwi ku izina rya feruje hakaba harimo ibara ry'umweru rizwi nka zebura korosingi cyangwa se inzira y'abanyamaguru ry'umutuku ribuza abanyamaguru, gukoresha inzira mu gihe amasegonda bahawe atarararangira.

Abamotari batatu babiri muri bo bafite abagenzi umwe akagenda wenyine bari kubisikanira mumuhanda winjira muwundi aho buri wese afashe icyerekezo gitandukanye nicya mugenzi we.